Imbangukiragutabara kimwe mu bikoresho byifashishwa mu kwihutisha ubuvuzi kandi bubangutse kugira ngo butabare ubuzima bw'abaturage, aho usanga nko mu ndwara z'ibyorezo bagira amacoronavirusi n'izindi zitandukanye. Abashoferi bazitwara bagomba kuba bambaye bikwije kugira ngo badahura n'abarwayi bakaba babanduza kimwe n'abaganga kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza mu buryo bunogeye.

Imbangukira gutaba no gutabara indembe ni kimwe mu binyabiziga byifashishwa mu kugeza umurwayi ahagera mu buryo bworoshye atangiritse cyangwa ngo arembere mu rugo, ugasanga bifasha mu buzima bwa muntu no ku bubungabunga.

Ubutabazi bw'ibanze. Ubutabazi bw'ibanze ni kimwe mu byo dukwiye kwitaho ubuzima bwacu bukagenda neza, abayobozi n'abandi babifitiyeho ubumenyi bakabihugurira abaturage, imiryango mpuzamahanga itabara imbabare nk'iyigenga nka kuruwaruge n'indi yose igakoreshwa kugirango tubashe kubisobanukirwa kandi tumenye kurushaho.

Imbangukiragutabara kimwe mu bikoresho by'ingenzi cyane kwa muganga. Aho usanga abarwayi barembye, abadashoboye n'abandi bakeneye kwitabwaho, hifashishwa imbangukiragutabara zikabakura mu bice bitandukanye by'Igihugu zibazana ku bitaro n'amavuriro kugira ngo babashe kwitabwaho mu buryo bworoshye.

Ubutabazi bw'ibanze; ubutazi bw'ibanze ni kimwe bugenerwa umuntu utameze neza aha ahabwa inyoroshyabuzima bagashobora kuba bamuha nk'igare agenderamo, ugasanga bigufasha kuvana ahantu hamwe ajya ahandi nimba afite ubumuga, ugasanga ashobora kwitabwaho mu buryo abasha kwiha burikimwe akeneye kandi bitari byagashobotse.

Ubutabazi bw'ibanze. Ubutabazi bw'ibanze ni ubukenewe guhabwa abantu bari mu kaga, aho usanga hari abakozi babishinzwe kandi babihuguriwe gutanga ubutabazi bw'ibanze, hari ibikorwa by'itumanaho bishobora gutanga amanite n'ababihagarariye ukabasha gutabaza gukemura ikibazo cyawe, ugatumanaho n'umuntu wundi ukeneye n'ibindi.

Aho gutegereza serivisi. Aho gutegereza serivisi ni ahantu haba hatunganijwe hagaterwa intebe zitandukanye, abakeneye serivisi bicaraho mu gihe bataragerwaho, ugasanga bifasha abaturage kutarambirwa, bakarushaho no kugira ubuzima bwiza bagahabwa serivisi kandi bariyirindiriye batarambiwe. Bityo barushaho kwishimira uburyo bakiriwe, kandi bakishimira serivisi bahawe.

Ubutabazi bw'ibanze ni kimwe mu bintu bikenerwa cyane n'abaturage b'indembe, n'abandi bari mu kaga, aho usanga ibigo byita ku barwayi, ibigo bitanga serivisi z'ubutabazi bw'ibanze, Croix Rouge n'ibindi bitandukanye, usanga bifasha mu kugira ngo izo serivisi zigende neza kandi vuba.

Ubutabazi n'abahatangira ubutabazi bw'ibanze mu bijyanye n'ubuvuzi ni nk'ahantu h'ibanze. Usanga ari ahantu bafasha abafite ikibazo kihohoterwa kugira ngo abashe kugezwa aho ari bufashirizwe by'umwihariko basanga ari ngombwa kuhabungabunga kuhitaho ndetse no kubagana kugira tubashe kwirokora ubuzima bwacu.

Ibitaro, ibitaro n'ibigo byita ku buzima bw'abantu, ni hamwe mu hatangirwa serivisi zitandukanye, aho usanga abaganga, abadogiteri n'abandi bashyira imiti ku murongo, bakayiha abaturage, babatera inshinge n'inkingo, ibinini n'ibindi bitandukanye kugira ngo amagara n'ubuzima by'abantu bibashe kuba byiza kurushaho.

Ibitaro n'ibigonderabuzima ndetse n'amavuriro ni hamwe mu hantu tujya kureba serivisi tukahasanga abaganga ab'inzobere, abadogiteri abaforomo n'abaforomokazi kugira ngo babashe kurokora ubuzima bwa benshi, basanga bakoresha ibinini, inshinge n'amaseromo ku bantu bafite amaraso make n'ibindi ndetse bakarokora ubuzima bwabo.

Amavuriro n'ibigo nderabuzima, amavuriro n'ibigo nderabuzima ni hamwe mu harokora ubuzima bwacu, ugasanga tubasha kuhasuzumirwa indwara zitandukanye, nk'umutima aho usanga abaganga, abadogiteri n'abaforomokazi, bababasha kwifashisha ibipimo bakumva uko umutima utera, bakumva uko ubuzima bwacu buhagaze, byaba inyama zo mu nda n'iz'inyuma bukarushaho kuba bwiza kurushaho. Ni byiza rero kujya kwa muganga mu gihe wumva urwaye kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza

Amavuriro n'ibikorwa remezo by'ibigo nderabuzima ni ngombwa mu buzima bwacu, niho tujya tugatabara ubuzima bwacu aho usanga abaganga badufasha, kwandika imyirondoro yacu kugira ngo tubashe kubona ubwishingizi mu kwivuza, tukabasha gutanga mituweli, tukabasha kwivuza no gutanga amafaranga y'ikiguzi cy'ubuzima, bityo tukabasha kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Ibitaro ibitaro n'ibigo by'ubuvuzi ni hamwe hamwe mu hantu tubonera serivisi zitandukanye aho usanga abadogiteri abaganga n'abandi batandukanye bita ku barwayi bakabavura bakabaha imiti bakabahokira mu gihe bamwe babitaho bitandukanye ubuzima bushoboraho kugenda neza.

Ibitaro n'ibigo nderabuzima. Ibitaro n'ibigo nderabuzima ni hamwe mu harokora ubuzima bw'abantu, inyamaswa n'ibindi, kuko usanga ariho tubasha kujya tugakira uburwayi butandukanye tugasuzumwa, tubasha kwitabwaho n'abaganga ndetse n'abaforomo, abadogiteri n'abandi bityo ubuzima bukarushaho kuba bwiza ndetse tukagira ubuzima buzira umuze.

Imbangukiragutabara n'ikinyabiziga gifasha abaturage mu bice bitandukanye kugira ngo bagere ku bitaro no ku mavurira kugira ngo bitabweho n'abaganga mu gihe barwaye. Imbangukiragutabara irokora ubuzima bwa benshi, kwihuta kandi ikagera ku baturage vuba. Abayobozi bashikariza abaturage guhamagara imbangagukiragutabara mu gihe bagize ikibazo, wareba ugasangaubutaba yoroheje ubuzima bwa benshi.

Kwa muganga haba mu bitaro ndetse n'ibigo nderabuzima, ni aho tubona serivisi zitandukanye, aho usanga abaforomo n'abaforomokazi, tukahasanga aba dogiteri n'abafasha babo, bose bafataniriza hamwe mukuduha serivisi y'ubuzima, bigatuma tubasha kubaho neza tugasigasira amagara yacu.

Amavuriro, amavuriro n'ibigo nderabuzima ni ahantu hatangirwa serivisi nyinshi, aho usanga abaganga babihuguriwe kandi babyize, batanga serivisi ku baturage, zirimo kubaha imiti, kubandika no kubabarura amazina n'imyirondoro byabo, bityo serivisi z'ubuzima zigatangwa neza, umuturage akazibonera igihe n'abazitanga bakazitangira igihe.

Ibitaro n'amavuriro ni hamwe mu bajyanwa indembe, aho usanga abadogiteri abavuzi b'inzobere n'abandi baganga bakomeye babyigiye, bafata abarwayi baturutse ku bigo nderabuzima bitandukanye bakabitaho bakabavura ubuzima bukongera bukagenda neza nk'uko byahoze mbere.

Isuzumiro n'amazu y'ubushakashatsi, isuzumiro n'amazu y'ubushakashatsi ni kimwe mu bintu bidufasha kwiyungura ubumenyi, tukamenya uko ibintu runaka bihagaze, tukamenya kuvangura ibyangiza n'ibikomeretsa, tukabasha kumenya ubuzima bw'umuntu n'inyamaswa.

Inzu z'amasuzumiro n'ubushakashatsi, ni ahakorerwa isuzuma ri ritandukanye aho abaganga bajya bagasuzumiramo indwara zitandukanye abanyeshuri bakajyamo bagasuzuma ibijyanye n'amasomo ubushakashatsi n'ubuvumbuzi bitandukanye by'indwara inkomoko yazo n'ibindi, ibyo bintu byose ukabona biteza imbere imibereho yibigenwamuntu ibinyabuzima n'inyamaswa muri rusange.

Amasuzumero n'inzu z'ubushakashatsi. Amasuzumiro n'inzu z'ubushakashatsi ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwa muntu ndetse n'inyamaswa muri rusange, kubera ko ni kimwe mu bidufasha kumenya uko duhagaze tukamenya ubuziranenge bw'ibintu runaka, tugakoraho ubushakashatsi tukareba inkomoko yabyo, ikibitera n'ituma bibaho ndetse n'uburambe bwabyo.

Isuzumiro, igerageza n'amazu y'ubushakashatsi ni ibintu by'ingenzi cyane, kuko usanga ariho tubasha kurebera uburwayi, inkomoko yabwo, tukabasha kuvangavanga imiti imwe n'imwe, tugakora imiti yavura abantu, inkomoko y'uburwayi, tugashiriza indwara zimwe na zimwe, twifashishije ibikoresho byabugenewe, n'ibindi nk'indebakure, ibikoresho byabugenewe amaside n'ibindi bitandukanye.

Amasuzumero n'amazu y'ubushakashatsi, amasumiro n'amzu y'ubushakashatsi ni hamwe mu hantu tubona serivisi zitandukanye, aho tubona habikwa inkingo, hasuzumirwa inkingo, hakavurwa indwara zitandukanye, hagatangirwa ibizamini bigaragaza uko umurwayi ahagaze n'ibindi bitandukanye.

Amazu y'ubushakashatsi ndetse n'ibikoresho byayo, nk'icyitwa indebaku cyangwa se microscope, usanga ari ibintu by'ingenzi, byo kwitaho cyane kuko usanga, ni ibintu bifasha mu kuvumbura uburwayi butandukanye, kumenya inkomoko yabwo, kumenya isuzuma ry'uko byakwirindwa, hakabasha kumenyekana impamvu yabyo n'ibindi.

Ubuvuzi bw'abana nimwe mu bwitabwaho aho usanga umwana ajyanwa kwa muganga agahabwa inkingo zitandukanye hagafatwa imyirondoro ye, ugasanga burabungabungwa kugira ngo azakurere umuntu wigirira akamaro ndetse akanakagirira igihugu cyamubyaye.

Inzu z'ababyeyi, inzu z'ababyeyi n'ubuvuzi bw'abana ni ibintu bikwiye kwitabwaho mu gihugu cy'u Rwanda, aho usanga abana barwara, bakavurwa bafite ubuzima bwo mu mutwe, ugasanga ubuzima butameze neza, bakitabwaho mu buryo bunyuranye, ababyeyi bakahabyarira n'ibindi bitandukanye.

Kubungabunga ubuzima bw'umwana ukiri mutoya, guhera k'uri munda kugeza k'ufite imyaka ibiri, ni gahunda yashyizwemo imbaraga cyane na leta y'u rwanda usanga mu turere dutandukanye nka nyagatare n'ahandi hatandukanye ababyeyi bahabwa shisha kibondo, bakabasha kugaburira abana kugira ngo bongere ibiro n'intungamubiri ugasanga byongera imibereho myiza y'abaturage, abana bagakura bafite ubuzima bwiza kandi buzira umuze n'igihugu kikunguka muri rusange.

Kubungabunga ubuzima bw'abana ku mashuri ni ikintu cy'ingenzi cyane kuko usanga ari ibintu bikorwa mu mashuri y'inshuke, abanza, n'ayisumbuye ugasanga bituma abana babaho neza haba mu mutwe, mu mitekerereze n'ahandi bagahabwa imiti, ibinini, nk'inkingo ibinini by'inzoka n'ibindi bitandukanye bituma bazakuran ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Kwita ku buzima ni imwe muri gahunda zishishikarizwa abakiri bato urubyiruko aho usanga hashyirwaho ibiganiro n'amahugurwa akangurira abana bakiri batoya urubyiruko mu mashuri bakabasha kubungabunga ubuzima bwabo binyuze mu bafatanyabikorwa batandukanye nka risa ikigo gishinzwe ubuzima rbc n'abandi.

Ubuzima, ubuzima ni kimwe mu bintu bikwiye kwitabwaho na buri wese, dukangurira abaturage, dukangurira abakiri bato ndetse n'abakuru gufata neza ubuzima bwabo. Tubashyiriraho ibikorwa remezo bijyanye n'ubuzima nk'amavuriro, ibindi amazu y'inama yo kuganiraho, uko twakwita ku buzima bwacu, tugashishikariza buri umwe wese utabizi uko yabigenza n'ibindi kugira ngo ubuzima bwacu burusheho kuba bwiza.

Kwita no kurengera ubuzima. kwita no kurengera ubuzima binkwiye kwitabwaho cyane cyane n'ubuyobozi bubishinzwe ndetse n'abaturage. Ubuyobozi bubanje gushishikariza abaturage kujyanye n'ubuzima uko bwakwitabwaho ingamba zavuga kugira ngo uwo umuntu ayivurwe hakiri kare n'ibindi.

Imiti, imiti y'amatungo yaba magufi n'amaremare ni ngombwa mu buzima twita ku matungo yacu agira ubuzima bwiza tuyavura indwara, kongera umusaruro wayo tubona amata n'nyama tugemurira soko twiteze imbere, ubuzima bwacu bube bwiza tubashe gutunga imiryango yacu, igihugu gitera imbere umuturage arwanye ubukene n'ibindi.

Ububiko bw'imiti n'amaguriro yayo ni ni hamwe mu hantu hagaragara imiti itandukanye imiti y'inzoka ifunze mu macupa, ifunze mu bikarito n'ahandi. Iyi miti yose ikaba yifashishwa n'ibitaro n'abarwayi batandukanye ikaba yagurwa na buri wese uyishaka ndetse ugasanga ari ahantu hatangirwa ubuvuzi bw'ibanze hifashishijwe imiti itandukanye umuntu akabasha gukira kandi akabona serivisi ijyanye n'ubuzima mu buryo bumworoheye.

Ubucuruzi bw'imiti, ni ubucuruzi bwemewe mu gihugu, aho usanga amaduka acuruza imiti, usanga ahantu hose, aho usanga abaturage bayikeneye, yaba iy'amatungo cyangwa iy'abantu, ibasha kuboneka, bityo ubuzima n'amagara bikabasha gusigasirwa, ugasanga ubuzima ari bwiza kurushaho.

Ububiko. Ububiko bw'imiti no kuyicuruza, ni ngombwa mu buzima bwacu, bifasha ubuzima kuba bwiza tukabona aho tuyigurira mu buryo bworoshye kandi bitaruhanyije, ugasanga ari ngombwa mu buzima, itaboneka kwa muganga tukayikura mu maguriro y'imiti, bityo ubuzima bwacu bukarushaho kuba bwiza kurushaho. Ni ngombwa ko twubaka kandi tukaba hafi y'amafarumasi n'amagariro y'imiti kugira ngo bibabashe kudufasha kurushaho.

Amakoraniro yigisha ku buzima bw'abaturage n'igihugu muri rusange nibwo mu buzima usanga abantu bahurira mu masare atandukanye abayobozi n'abandi basobanukiwe ibijyanye n'ubuzima bakabasobanurira uko bakwiye kubafata neza kwirinda uko bakwiye kwitabwaho, nibyo byiza uburyo bwiza bwo kubikora n'ibindi bitandukanye.

Ubuzima rusange ni kimwe mukwiye kwitabwaho aho abaganga bakwiye kujya ku maradiyo atandukanye nka Flash tv, Isango star n'ahandi, bakabasha kwamamaza ibikorwa bijyanye n'ubuzima aho bashobora kwamamaza ku baturage bakwiye kwita ku buzima bwabo n'ubw'igihugu muri rusange.

Abajyanama b'ubuzima ni bamwe mu bantu baduha serivisi zitandukanye, nko kutuvurira hafi y'iwacu tutagombye kujya kwa muganga, aho batanga imiti ya Malariya, aho batera imiti irwanya Malariya mu nzu imibu igahunga n'ibindi byose ugasanga byose bifasha muri gahunda yo kurwanya Malariya ndetse n'ikwirakwizwa ryayo.

Gushishikariza abaturage kwitabira ibikorwa by'ubuzima, no kurinda ubuzima bwabo ni imwe mu ntego z'igihugu cyacu, aho usanga ubuyobozi, buhura n'abaturage, bukabaganiriza kubijyanye n'ubuzima, uburyo babwitaho, no kubungabunga, kugira ngo amagara n'abanyagihugu babashe kugikorera bafite amagara mazima.

Imiti n'ubuvuzi gakondo ni kimwe mu bintu by'ingenzi mu buzima bwacu kuko usanga hari aho imiti y'abazungu idakoreshwa cyane nk'abavura uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi bitandukanye iyo miti rero ikaba yaritabwagaho nubu ikaba igikoreshwa n'abavuzi bamwe na bamwe aho usanga bayitondeka ahantu hatandukanye ikubiyemo uruvangavange rw'imiti inyuranye ibicunshu, imiravumba n'ibindi binyuranye bivura indwara isa.

Imiti gakondo ni kimwe mu bintu bikwiye kubungabungwa, byakoreshwaga cyane mu buzima bwo hambere bw'abaturage. Ugasanga baravugutaga imiti itandukanye. bakayisekura mu isekuru, bakayivangisha intoki. Imashini mu gihe zari zitaraza, ubuzima bwabo bukabaho kandi bukarushaho kurokorwa. Ni byiza ko tuyibungabunga, umuco wacu tukawukomeraho. Tujya kwa muganga rimwe na rimwe ariko byanashoboka tugakoresha imiti gakondo kugira ngo ubuzima burusheho kuba bwiza.

Imiti gakondo, imiti gakondo ni imiti dukenera mu buzima bwa buri munsi, mu buvuzi byakoreshejwe na kera mu buzima bwacu butaratera imbere, aho usanga bavanganmo imiti itandukanye, byifashishwa mu buvuzi bya imiti yavuye mu bimera bitandukanye, bikabasha gufasha umuntu kubaho neza mu gihe adakoresha imiti ya kizungu, bigira ingaruka ku buzima zitari nziza.

Imiti gakondo, imiti gakondo ni ngombwa mu buzima bwacu bwa buri munsi kuko idufasha gukira indwara zitandukanye kandi mu buryo bw'umwimerere, ntigira ingaruka mbi ku buzima bwacu bwa buri munsi, ni ngombwa ko tubungabunga abavuzi gakondo basekura imiti bifashishije isekuru n'umuhini kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza bitadutwaye ubuzima kandi amafaranga agabanuke mu giciro cy'ubuzima bityo ubuzima burushaho kugenda neza.

Ubuvuzi gakondo, ubuvuzi gakondo ni ubuvuzi bwakoreshwaga cyane mbere y'uko tubona imiti ya kizungu, ariko n'ubu bukaba bugikoreshwa henshi, ni byiza kwitabwaho, aho wasangaga umuntu yakomeretse, agahabwa imiti ya kinyarwanda, bamusigiraho ibyatsi bitandukanye, bakamusigiraho umushonge w'ibimera runaka, ugasanga arakira vuba kandi bitagoranye.

Ibigo byita ku buzima n'amavuriro. Ibigo byita ku buzima n'amavuriro niho tujya tukabona serivisi zitandukanye n'imiti itandukanye yaba ivura amatungo nk'iyi itandukanye, ivura amatungo bituma ubuzima kugenda neza bityo tukabasha kubaho neza ndetse n'amatungo umusaruro ukiyongera kurushaho.

Amavuriro n'ibigo nderabuzima, ni ahatangirwa serivisi z'ubuzima, aho usanga hasuzumirwa abagore batwite, bakahabyarira, tukahivuriza indwara zitandukanye, aho usanga abaturage benshi bahagana, bakakirwa n'abaganga, bakabitaho mu buryo bukwiye kandi bunoze kugira ngo bakomeze kugira amagara mazima.

Ibigo nderabuzima n'amavuriro, ibigo nderabuzima n'amavuriro ni ahantu hatangirwa serivisi z'ubuvuzi, aho usanga abaganga, abaforomo n'abaforomokazi bita ku barwayi, bakabaha serivisi bakeneye, ugasanga baba bafite aho bategereza, bakicara hanze iyo bibaye ngombwa, mu gihe bakirindiriye serivisi bagiye guhabwa.

Ibigonderabuzima ni zimwe mu nzego kandi n'ibigo byubakwa muri leta na leta y'u Rwanda ahantu henshi hatandukanye kugira ngo babashe kwita ku buzima bw'abaturage, aho usanga mu turere tunyuranye nka Nyagatare hari ikigonderabuzima cyegereranye n'ibitaro, ugasanga hanashyirwaho ibirango bikigaragaza ahantu n'abafatanyabikorwa batandukanye nka za USAID, umuryan go w'Abanyamerika ushinzwe iterambere mpuzamahanga n'ibindi.

Amavuriro n'ibigo nderabuzima, amavuriro n'ibigo nderabuzima ni hamwe mu hantu tujya tukabona ubuzima bwiza, tubasha kuvurwa indwara zitandukanye, nk'ubuvuzi butandukanye, Aho tubona abaganga, abaturage, tukabona ibitanda byo kuryamaho, amacumbi, ababyeyi baje kwivuza, n'ibindi bitandukanye dukenera mu buzima bwa buri munsi, kugira ngo ubuzima burusheho kugenda neza.

Ibigo nderabuzima n'amavuriro ni hamwe mu hantu tubona imiti itandukanye, aho tubasha kubona imiti yita ku matungo, tukabona imiti ishobora kuba ifunze neza mu matungo ikoze ibimera amatungo yo ku gasozi n'ayo mu rugo, bityo ubuzima bw'amatungo afasha kugenda neza bakitabwaho bibabwemo n'abaveteneri babugenewe cyangwa bavuza amatungo ndetse ikarushaho kugenda neza.

Serivisi z'ubuzima zitangirwa kwa muganga, aho usanga abayobozi batanga inama mu by'ubuzima, bagatanga imiti n'inkingo, ugasanga abajyanama b'ubuzima bahurira hamwe bakaganira ku cyateza imbere ubuzima, ugasanga barahabwa amahugurwa atandukanye, aho bafasha abaganga kuvura abaturage, kubitaho n'ibindi.